Abantu bari mu nama buri wese afite amazi. Inama ya yusi edi bicaye mu buryo bw'uruziga barimo ibitsina byombi, abagore n'abakobwa n'abagabo.

Mu nama irimo umuyobozi wa FERWABA, afite amazi arimo no gutanga ikiganiro iruhande rwe hari umuteze amatwi, imbere ye hagaragaza icyo akora kiriho n'idarapo ry'u Rwanda.

Inama ya odinari genero asemburi, yabaye ku italiki makumyabiri na gatatu, werurwe, bibiri na makumyabiri na kane, irimo abari bayitabiriye, imbere hari abahagarariye abandi muri iyo nama.

Gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, mu kwezi ko gushimira abasora, wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, bagaragaza uko wasaba fagitire EBM mu buryo bwo kubaka u Rwanda.

Abubatsi bari kubaka, aho bamaze kumena dare, bategereje ko yuma, ni abubatsi batanu, ndetse hari n'icyuma bari kurira kugira ngo babashe kubaka no hejuru.

Umunara muremure w'amashanyarazi uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza, umunara ukaba ushyirwaho amashanyarazi kugira ngo abantu bahaturiye babashe kubona umuriro neza bacane.

Ikiganiro cy'ingenzi imisoro iri kuva muri iyi minsi cyatanzwe na Batamuriza Hajar, komiseri w'imisoro'imbere mu gihugu ndetse na Mbera Emmy komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw' umusoro. Cyavugaga ku musoro ku nyungu wa bibi na makumyabiri na gatatu ishimwe rigenewe umuguzi wa nyuma watse fagitire ya ibiyemu, ubukangurambaga bwa ibiyemu.

Mu bigo by'amashuri, harimo iterambere rihagije, aho umwana aba afite mudasobwa ashobora kwigiraho ibintu bitandukanye yakora akoresheje mudasobwa kuko iterambere uko riza niko tugendanana na ryo...

serivisi za rwanda yotirity regratoy autrity bula zerekeranye niby'umuriro harimo alectirica in foundation farmily for afstl cencesvisional o a pliceses na cpripide licens

Uburyo bw'itumanaho mu Rwanda, bwaroroshye kandi bugerwaho na bose, aho iminara iri ahantu hagiye hatandukanye ku buryo imiyoboro y'itumanaho itagoranye abantu babasha kuyibona ndetse no kugera ku iterambere mu gihe gitoya.

Ibitaro byitirirwa umwami Faisal, aho binjirira ndetse n'aho imodoka zishobora guparika, hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, rizengurutswe n'indabo nziza, harimo n'imihanda imodoka zishobora gucamo, inyubako igaragaza ko ifite ahantu hatatu, cyangwa se floor eshatu, iyo hasi, iyo hagati ndetse n'ihera hejuru.

Igororero rya Gicumbi, Gicumbi Korekishoni Fasiliti, aho abantu bagiye bahamwa n'ibyaha bitandukanye bagororerwa mu gihe cyashyizweho n'tegeko cyangwa se n'imyanzuro bafatiwe.

Polisi mu kigo cy'amashuri yagiye kwigisha umunyeshuri uko wazimya umuriro, igihe habayeho inkongi, aho bari kuzimya umuriro w'isafuriya iteretse kuri gaze bakoresheje faya egisitingwishi.

Abamotari bo mu Rwanda bahabwa amabwiriza y'uko bakwiye kugenda ku mihanda, ndetse n'uko bakwiye kubahiriza amategeko y'umuhanda igihe cyose batwara abagenzi ndetse n'igihe bari mu muhanda bategereje kubona abagenzi, abapolisi kandi bo mu Rwanda batanga amabwiriza yose ku murongo kandi ku gihe.

Mu cyumba cy'itora hadekoye ibitambaro biri mu mabara y'idarapo ry'igihugu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, umubyeyi watoraga wambaye imyenda abantu benshi bakunze kwitwa ko ari iy'aba Islam ari gutera igikumwe.

Umuyobozi uhagarariye umutwe w'abadepite, witwa Honorable Mukasanga Gertrude ari ku idarapo ry'u Rwanda. Imbere ye hari mikoro arikurahira ko azakora inshingano mu Nteko ishinga amategeko by'umwihariko uyoboye umutwe w'abadepite.

Umumotari mu muhanda uhetse umubyeyi wambaye ibitenge, bambaye kasike z'ubururu, bageze imbere y'inyubako iteye amarangi y'umweru, afite moto ya batiri.

Uburyo bwa taransiporo mu Rwanda burizewe, aho haba hakoramo kampani zigiye tandukanye harimo Ritco, harimo International, ku bagenzi baba bava mu mujyi wa Kigali bajya mu Ntara cyangwa baba mu Ntara baza mu mujyi wa Kigali, kandi umutekano ari wose mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa, urimo abamotari b'ibikamyo, urimo n'imodoka ya taransiporo kwitwa yuto igaragaramo ikiraro kiri iruhande rw'umuhanda, aho abagenzi bagenda neza nta kibazo ndetse n'umunyozi, utwaye imizigo aragenda.

Moto iparitse ku ruhande, ifite purake RF magana inani na cumi namwe J, isa umutuku ndetse n'umuhanda urimo ibinyabiziga birimo imodoka na moto bitwaye abagenzi.

Umumotari ufite kasike y'umuhondo uri kugenda mu muhanda imbere y'igipangu cy'umukara hakurya y'umuhanda hari ibiti, uri kureba ruguru yumuhanda murundi ruhande.

Ikamyo yo mu bwoko bwa dina irimo abantu babiri, itwaye imitwaro, imitwaro itwikirijwe shitingi y'ubururu, iyo kamyo ikaba isa umweru iri mu muhanda igenda.

Uburyo bwo gutwara ibicuruzwa cyangwa se taransipolo mu Rwanda buri mu buryo butandukanye, burimo kandi n'ibyitwa refani bifasha abantu kuvana ibicuruzwa bitandukanye ahantu hamwe babijyana ahandi, cyangwa se no kugira ibintu umuntu yimura.

Icyapa cyerekana ibyerekezo by'imihanda, aho hari umuhanda umwe ukomeza mu cyerekezo kimwe ndetse n'undi uwushamikiyeho ushobora kwerekeza ahandi hantu, bikaba ari ibyerekezo by'ibinyabiziga, uko byagenda muri iyo mihanda.

Icyapa kigaragaza ko ahantu hafi aho hari ikigo cy'amashuri, kigaragaza ko ashobora kuba ari umubyeyi uri kumwe n'umwana, amujyanye ku ishuri amwambutsa umuhanda, cyangwa umurezi yambutse umwana kugira ngo ajye ku ishuri.

Uduce tumwe na tumwe kandi rubanda turimo amanegeka, cyangwa se twubatse mu gishanga kandi bakaba bateganya gukura abantu mu bishanga, kugira ngo igihe haje ibiza bitazabahitana.

Mu Rwanda abaturage baragenda mu muhanda nta kibazo mu mahoro, uburyo bwose bwa taransiporo kandi bushoboka buri wese ubwo ashoboye arabukoresha ndetse kandi n'ubucuruzi buragenda neza cyane.

Ibikorwa remezo kandi byinshi mu Rwanda, harimo amahoteli, harimo amaresitora, aho serivisi zabo zitandukanye zibasha kugera ku banyarwanda kandi neza, hoteri bomubaka hoteri imwe muri hoteli ziri muri kimironko kandi zitanga serivisi neza.

Remera sherando hari inyubako zigiye zitandukanye, hari amazu y'ubucuruzi, hari amazu atuwemo n'abantu ndetse akikijwe n'ibiti bitanga ogisijene, kuhatura ni ukwiteganyiriza ku bw'umwuka mwiza.

ikirango kigaragaza sprian economic zon cyangwa se icyanya cyahariwe inganda tsmangeti to east and centra africa iherereye muri masoro.

Umuhanda ugaragaza ibyerekezo bitandukanye, n'imihanda umuntu ashobora kwerekeza bitewe n'aho ajya ndetse ukagaragaza aho abanyamaguru bakwiriye guca igihe cyose bari gutambuka muri uwo muhanda, ndetse hakaba harimo na feruje zigaragaza ko imodoka hari igihe kigera zigahagarara bitewe n'icyerekezo ziri kujyamo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye; moto ndetse n'imodoka ijya mu byerekezo bitandukanye ndetse n'abaturage bagenda mu mahoro n'umutekano kandi byizewe.

Imihanda y'abanyamaguru irubakiye kandi yubatse neza, aho abanyamaguru bagenda nta kibazo bafite, kandi bafite umutekano wuko ibinyabiziga bidashobora kuva mu muhanda byagenewe ngo bibagereho; kandi birimo n'isuku ihagije.